ubuhinzi n'ubworozi bikomatanyije bitanga umusaruro ushimishije, urugero twavuga ni nk'ubuhinzi bw'insina, ubw'ibigori n'ubw'imyumbati.

Ubuhinzi bw'amadegede ni bumwe mu buhinzi bukorwa mu Rwanda. Havaho amadegede yo kuribwa, hakavaho n'imboga zitwa ibisusa.

Abahinzi bo mu Rwanda bashishikarizwa guhinga ibiti bivangwa n'imyaka, ibitanga imbuto n'ibyatsi by'amatungo. Byose bibafasha kubona ibyo kurya.

Ubworozi bw'inkoko bukorerwa ku buso butoya, bugatanga umusaruro uhagije. Mu Rwanda urubyiruko n'abagore bashishikarizwa korora inkoko kuko ari amatungo yororerwa ahantu hato kandi agatanga umusaruro, akagira n'uruhare runini mu kuzamura imirire y'abaturarwanda ndetse akanabateza imbere, bakabona amafaranga.